Ikigo gishinzwe ubuzima gihora gishishikariza abantu kurara mu nzitiramibu, ibi bituma malariya idakwirakwira mu baturage ndetse bikarinda n'abagize umuryango guhura n'ibindi bibazo bitandukanye birimo kubabara umutwe, kugira umuriro ukabije ndetse n'ibindi.